Ndikubona abagabo umunani n'ingoma bari kuzivuza, umwe muri bo yambaye umukara hejuru n'umuhondo hasi, abandi bambaye umweru hejuru n'umuhondo hasi.

Ndi kubona ababyinnyi babyina imbyino gakondo nyarwanda, n'abandi babafasha kuririmba bari imbere y'inzu z'ibyatsi, bafite n'ingoma zikozwe mu ruhu.

Ndiku kubona inzu y'ubwami yo hambere mu Rwanda, n'inka yo mu muco nyarwanda, inyambo.

Ndabona ingoma zikozwe mu ruhu ziteretse, hejuru yazo hari imirishyo yo kuzikomesha.

Ndi kubona akamashini gapima, kariho amabara y'umutuku, ay'icyatsi n'ay'umukara.

Igikoresho cyo mu mashanyarazi gikoreshwa mu gufungura no gufunga, gukwirakwira k'umuriro mu nsinga.

Ndi kubona inzu nziza igeretse, ku muryango wayo w'igipangu hari umuzamu. Mo hagati hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ndi kubona inzu ndende igeretse, ifite ibirahuri by'umukara. N'abantu babiri bayegereye.

Ndabona inyubako ndende kigeretse, ibamo abantu batandukanye.

Ndikubona inyubako yubatswe ya rusange, ihurirwamo n'abantu benshi.

Ndi kubona abaturage benshi batondetse umurongo bafashe imifuka n'udupaniye, hariho n'abayobozi bagenda babaha serivisi.

Ndabona ababyeyi basa naho bari mu nama hafi y' ikigo cy' amashuri n' umuyobozi uhagaze imbere, uri kuba aha uri kuvuga ijambo, inyuma ye hari abana b' abanyeshuri; abanyeshuri hahagazemo ufata amafoto, uy' umugabo ubari imbere avugira muri mikoro.

Ndi kubona abagabo n'abagore bambaye neza, bari imbere y'imodoka za bisi zitatse.

Ndabona abantu batondetse umurongo, bahagaze mu tuziga, bambaye udupfukamunwa, hari n'urukarabiro bagenda bakaraba.

Ndi kubona abagore babiri bikoreye ibitoki ku mutwe bitwikirijwe n'inyenda. Umwe ahetse umwana.

Ndabona abantu batwara amagare, bakora amarushanwa hari n'abari kugenda bafana.

Umukino ukinwa hakoreshejwe agatenesi, hagakoreshwa n'akandi gakoresho bakubita ako gatennesi.